Cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, icyo cyapa kikaba kirimo umugabo wambaye ikoti na karuvati ,mu imbere y'ikote yambariyemo ishati y'umweru.

Ifoto y'umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi akaba ari umugore wambaye ikote ry'umukara akaba yambaye isaha akaba abashinzwe kwita ku bakiriya bagana icyo kigo cy'ubwishingizi.

Uburyo wakinjira muri banki ya afurika, aho ushobora kuyinjizamo nimero ya telefone, warangiza ugashyiramo n'umubare w'ibanga, hanyuma ugakanda ahanditse kwinjira, aho handitse kwinjira hakaba hari mu ibara ry'icyatsi.

Iduka ricuruza imyambaro, muri iyo myambaro hakaba harimo inkweto n'amashati, muri izo nkweto hakaba harimo iz'umukara zifite hasi hasa nk'umweru.

Iduka ririmo abagore babiri, umugore umwe akaba yambaye amataratara, imbere yabo hakaba hari ameza, ayo meza akaba atetseho mudasobwa, aho umugore wambaye umupira w'umukara arimo arayikoresha.

Iduka ricuruza ibikapu bikoze mu bitenge, iryo duka rikaba riteyemo irangi ry'umweru, ibyo bikapu bikaba bifite amabara agiye avangavanze.

Iduka ricuruza imyambaro aho muri iyo myambaro harimo imipira. Iyo mipira ikaba iri mu mabara atandukanye. Harimo imituku, icyatsi, umweru n’andi mabara agiye atandukanye.

Imyenda izinze aho iyo myenda igizwemo amapantaro, imipira ikaba iri mu mabara atandukanye aho harimo amapantaro y’ umukara, imipira y'ubururu n' ibikapu.

Iduka bacururizamo imyambaro aho iryo duka riri mu nyubako iteye irange ry'icyatsi, hakaba handitse hejuru y'umuryango amagambo yemeza ko iryo duka ari irya mama Amina, imbere y'iryo duka hakaba hari umugabo uri gutambika ufite imisego mu ntoki.

Iduka bacururizamo imyambaro aho harimo imyambaro y'abana niy'abantu bakuze, muri iyo myambaro hakaba harimo imipira irimo ibara ry'icyatsi iry'umweru n'irya oranje.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kikaba imbere cyometseho ikirango cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara hejuru, bakaba bahagaze imbere y'amakamyo abiri, ikamyo imwe ifite ibara ry'cyatsiindi, ifite ibara rya oranje, abo bagabo bakaba bafite icyapu mu ntoki.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange aho iyo modoka ifite ibara ry'umweru imbere y'iyo modoka hakaba hahagaze abagabo babiri, aho barimo barerekana icyapa cyamamaza ikigo gishinzwe kwita ku binyabiziga cyitwa akagera bisinesi gurupe.

Ikamyo, imbere y'iyo modoka hakaba hahagaze abagabo babiri, aba bagabo bakaba bafite icyapa cyamamaza, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri nyuma yaho hari ikinyabiziga gitwara imizigo abo bantu bakaba bafite icyapa mu ntoki cyerekana amagambo yanditseho akagera motozi.

Aho baparika imodoka, hakaba harimo imodoka, aho iyo modoka berekana ko igurishwa, ikaba igurishwa ku giciro cya miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ikaba ifite ikirango imbere Kerekana isUku, hakaba hariho nimero hejuru z'umuntu wahamagara ukeneye kuyigura.

Imodoka aho hantu hakaba haparitsemo imodoka enye ziri mu bwoko bw'imodoka zitwara abagenzi muburyo bwa rusange imbere y'izo modoka akaba ahagaze abagabo babiri bambaye udupfukamunwa.

Imodoka yo mu ibara ry'umukara ihagaze ahantu, iyo modoka ikaba imbere yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara mu buso bw'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru aho gifite ikirango cya suzuki icyo kinyabiziga kikaba kigurishwa ku mafaranga miliyoni cumi n'umunani .

Imodoka ihagaze, aho ihagaze mu nyubako, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru, aho ihagaze hakaba hashashe amakaro y'umweru.

Icyumba cy'imodoka cyerekana intebe zo kwicaramo aho muri izo ntebe harimo imisego ya misego ikaba irinzwe n'ibitambaro bisa umukara.

Aho basuzumira ubuziranenge bw'ibinyabiziga, hakaba hari ikinyabiziga cy'imodoka iri mu ibara ry'umutuku bazamuye hejuru, hakaba hari n'ikindi kinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru kiri hasi.

Umuntu urimo arapanga inoti, izo noti zikaba ziri ku meza, hakaba hari n'ibiceri biri mu dukoresho twabugenewe, kuri ayo meza hakaba hariho n'imashini ishinzwe kubara amafaranga.

Umuntu urimo arapanaga inote zifunze, izo note zikaba zihambijeho umikoba, iruhande rw'izo note hakaba hariho imashini ishinzwe kubara amafaranga.

Igiceri cy'amafaranga yu Rwanada, igiceri kikaba kiriho ishusho y'igihingwa cy'ikawa, iki giceri kiba cyarakozwe mu igihumbi kimwe maganakenda mirongw'irindwi na karindwi.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'u Rwanda kuri iyo noti hakaba hariho ishusho y'inka yo mu bwoko bw'inyambo izo nka zikaba ziri mu rwuri.

Igiceri cy’amafaranga y’u Rwanda, aho icyo giceri cyanditseho imibare igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, hakaba harimo insina ifite igitoki.

Umuntu urimo kubara inoti z'amafaranga, aho ari mafaranga menshi amwe akaba ari ku meza andi akaba ayafite mu ntoki arimo arayabara.

Umugabo uri gushyira inoti mu mu mashini yagenewe kubara amafaranga, ku meza hakaba hari amafaranga afunze ari mu byiciro bitandukanye.

Ikigega cyanditseho inyange kikaba ari ikigega gishinzwe kubika amata. Imbere y'ikigeyaga hakaba hari abantu barimo baravoma amata muri icyo kigega.

Y'umweru ,iyo ndobo ikaba ifite umupfundikizo muri iyo ndobo hakaba harimo ibyo kurya bikoze mu ifarini.

Aho bacururiza ibyo kunywa nibyo kurya hakaba hari igikoresho giteretseho teremusi ebyiri, teremusi imwe ikaba ifite umukondo w'umukara, hakaba hariho n'igikoresho bashyiramo ibyo kurya.

Indobo zifite imipfundikizo hejuru, izo ndobo zikaba zirimo ibyo kurya bitandukanye, aho indobo imwe hejuru ku mufuniko hariho igikoresho cyifashishwa bafata ibyo kurya bari kubikura muri iyo ndobo.

Umuntu uri mu nzu mo imbere mu cyumba aho inyubako ifite amakaro ayipavomye, hakaba harimo ameza ateretsemo akabido k'umweru mu muryango w'inyubako hakaba haparitsemo igare.

Indobo ebyiri zifite imipfundikizo, aho muri izo ndobo harimo ibyo kurya, indobo imwe ikaba irimo ibyo kurya bikoze mu ifarini, indi ndobo hejuru yaho hakaba hari igikoresho cyifashishwa barimo gufata ibyo kurya mu ndobo.

Kusanyiriza amata ayo mata akaba ari ayo mu bwoko bw'inyange, hakaba harimo abakobwa babiri bambaye ingofero z'umutuku hakaba harimo n'undi muntu wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umukara.

Iduka ricuruza ibyo kunywa byo mu bwoko bw'amata aya mata akaba agiye ari mu bikoresho bitandukanye bifite amabara atandukanye aho bifite amabara ya oranje n'amabara y'umweru.

Inzu irimo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa aho muri byo biribwa harimo amarindazi hakaba harimo n'ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo amata yo mu bwoko bw'inyange.

Aho bacururiza amata hakaba hari indobo irimo ibyokurya inyuma hakaba hari ikigega bavomamo amata hakaba harimo intebe n'ameza abakiriya bifashisha.

Amacupa babikamo amazi, ayo macupa akaba ari mu bubiko bwayo, akaba ahantu abitse akikijwe n'ibyuma bisize irangi ry'ubururu, akaba apfungishije ingufuri.

Isahani iriho ibyo kurya, ibyo kurya bikaba bikoze mu ifarini, iyo sahani ikaba ifite ibara ry'umweru, aho kimwe muri ibyo byo kurya kiriho urupapuro rw'isuku rwifashishwa mu gufata ibyo kurya.

Umudamu uhagaze mu cyumba cy'inzu aho iruhande ye hari ikigega gisize irangi ry'umweru, uwo mudamu akaba yambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umutuku.

Igikombe cyo mu bwoko bw'itasi kirimo amata, igikombe kikaba giteretse ku meza afite irange ry'umweru, imbere y'igikombe hakaba hariho isahani na yo yo mu ibara ry'umweru.

Akabati karimo ibyo kunywa n'ibikoresho bifashisha barimo kubinywa, ako kabati kakaba gafite irange ry'umweru, iruhande rw'ako kabati hakaba hari ibikoresho byifashishwa mu kubika ibyo kunywa bifite ibara ry'umweru.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; akaba ari urupapuro rwemeza ko umuntu yishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rwerekana umuntu wandikishije uruganda rwe mu kigo cy'gihugu cy'iterambere, bikaba biri ku rupapuro rw'umweru, hejuru munguni y'urupapuro hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho kirimo kwerekana inyemezabwishyu, y'umusoro ku nyungu, uwishyuye akaba ari uruganda rukora amarangi rwa amaeki koro rimitedi.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro; rukaba ari urupapuro rwemeza ko umukiriya yishyuye umusoro ku nyungu.

Icyemezo gitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'umusoro n'amahoro, iki icyemezo kikaba cyarahawe uwitwa Mushyirahamwe Gregoire, akaba ari icyemezo cy'umusoro ku inyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisora n'amahoro, uru rupapuro rukaba rwemeza ko uwishyure imisoro yishyuye imisoro ku nyungu, rukabari urupapuro rufite ibara ry'umeru rwandikishijeho amagambo y'umukara.

Urupapuro rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro, akaba ari urupapuro rwemeza ko uyu Uwiragiye Pacifique yishyuye inyungu ku musoro w'ipatante, akaba ari urupapuro ruri mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rwerekana inyemezabwishyu, aho urwo urupapuro rutangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kikaba ari ikigo gishinzwe gukusanya imisoro, aho urwo rupapuro rusa nk'umweru, rukaba rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ibiganza bifashe amafaranga agiye atandukanye aho harimo amanyarwanda nandi yo mubindi bihugu bigiye bitandukanye, aho muri ayo mafaranga y'amanyarwanda hagiye harimo amafaranga igihumbi ibihumbi bitanu.

Imashini yagenewe kubara amafaranga iteye irange ry'umweru ikaba iri kubara amafaranga menshi y'inote z'ijana ndetse hakaba hariho n'ikirangantego cy'umuntu, hirya hakaba hari igikoresho cyagenewe mu itumanaho ndetse n'ikiganza kiri kugikoramo, imashini aho iteriretse hakaba hari igitambaro cy'umukara bigaragara ko amatara ari kwaka.

Amafaranga arambitse ku meza ayo mafaranga akaba arimo ibiceri ndetse n'inoti aho ibiceri bigiye bigerekeranye.

Amafaranga umuntu akatwa iyo arimo arakora igikorwa cyo kuvunjisha amafaranga yo mu gihugu kimwe ashaka kuvunjamo ayo mu kindi gihugu, hakaba hariho ibihugu bigiye bitandukanye.

Inote y'amafaranga igihumbi yo mu gihugu cya Tanzaniya, iyo noti ikaba ariho ishusho y'umugore wambaye umupira w'umukara, iyo noti kandi ikaba iriho ishusho y'igorofa rirerire.

Umuzungu ufite inoti mu ntoki uwo muzungu akaba yambaye amadarubindi kandi akaba yambaye impeta mu gatoki yerekana ko yasezeranye.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, akaba yambaye amadarubindi, aho ahagaze ahantu bavungishiriza amafaranga, hakaba hari amagambo yandikishije m'ibara ry'umutuku yanditseho ruku.

Icyumba cy'inyubako, aho habera ivunjisha ry'amafaranga yo mu gihugu n'ayo mu kindi gihugu cyo hanze. Hakaba hari abantu baje gusaba iyo serivisi.

Inyubako irimo ibiro aho umuryango hari urugi rukinguye, urugi rukaba rusize irangi risa n'mweru, hejuru y'uwo muryango hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu n'iryo umutuku, n'icyatsi.

Icyumba kirimo ameza n'intebe bikoze mu mbaho, icyo cyumba kikaba gisashemo amakaro hasi afite ibara ry'umweru.

icyumba cy'aho bafatira amafunguro, muri iki cyumba hakaba harimo intebe esheshatu n'ameza ateretseho igikombe, izo ntebe zikaba ziri mu ibara ry'umukara, muri icyo cyumba hakaba hashashemo amakaro.

Icyumba cy'uruganiriro muri icyo cyumba hakaba harimo intebe n'ameza, muri zo ntebe hakaba harimo imisego izo ntebe n'ameza bikaba biteye irangi risa umutuku.

Inzu y'uruganiriro, muri iyo nzu hakaba hapavomesheje amakaro hakaba harimo intebe zo kwicaramo z'imifariso n'ameza izo ntebe zikaba zifite ibara ry'umweru ry'ikigina.

Ameza akoranye n'intebe aya meza akaba asize irangi ry'umutuku, imbere y'ayo meza hakaba hari inyubako irimo umuryango ufunguye.

Icyumba kirimo intebe zo mu ruganiriro, izo ntebe zikaba zifite imifariso n'ibitambaro by'ibara ry'umweru, inyuma y'izo ntebe hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu kuvoma amazi, inyuma hakaba hari n'akabati gafite ibara ry'umweru.

Aho bacururiza ibikoresho byo mu nzu, ibyo bikoresho hakaba harimo intebe n'ameza. Muri izo ntebe hakaba harimo imisego ifite ibara ry'umweru, n'intebe n’ameza bisize irangi ry'umutuku.

Iduka ricuruza ibikoresho byo mu bubaji, ibyo bikoresho hakaba harimo ameza, n'intebe bikoze mu mbaho.

Inzu y'uruganiriro irimo intebe z'imifariso, imifariso ikaba irinzwe n'ibitambaro by'umukara hakaba harimo n'ameza ateye irangi ry'umweru.

Inzu y'uruganiriro, iyo nzu ikaba irimo intebe z'imisego, izo ntebe zikaba zisa umukara, hasi harambuyeho umusambi ufite ibara ry'icyatsi.

Icyumba kirimo intebe n'ameza n'utubati, muri icyo cyumba hakaba hashashemo amakaro y'umweru hakaba harimo intebe ifite ibara ry'umweru nindi ifite ibara ry'umukara ku meza akaba afite ibara ry'umweru.

Inyubako iri mu mujyi wa Kigali, akaba ari inyubako yubatse mu buryo bw'umuzenguruko, iyo nyubako ikaba ifite inyandiko iyiranga imbere yaho, yanditseho Convention Center.

Inzu y'uburiro muri iyo nzu hakaba harimo amatara abonesha hakaba harimo ameza arambuyeho ibitambaro n'intebe zo kwegamamo ibyo bitambaro harimo ifite amabara y'umweru .

Inyubako irimo hoteli, muri iyo hoteli hakaba harimo amatara harimo intebe zifite imisego ifite ibitambaro biriho indabo hakaba hariho n'amezaza ateretseho ururabo.

Inzu mberabyombi iyo nzu hakaba harimo amatara arimo araka, hakaba harimo intebe begamamo, izo ntebe zikaba zifite ibara ry'umukara n'ameza arambuyeho ibitambaro by'umukara, imbere kuri ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi.

Umuntu ufite impapuro mu ntoki akaba arimo gukoresha mudasobwa aho ku meza harimo icyuma cyifashishwa mu gusohora impapuro ziriho inyandiko.

Abantu benshi higanjemo abagabo bambaye amakoti, aho inyuma yabo hari abashinzwe gutanga ubufasha bambaye imyambaro y'impuzankano ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara hasi.

Igorofa ririmo ishami ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ubwishingizi, iryo shami rikaba riherereye kimironko.

Ishami ry'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, akaba iryo shami ari inyubako iteye amarangi y'umuhondo, hejuru y'iyo nyubako hakaba hari ibyapa byerekana ko ari ku ishami ry'icyo kigo.

Abagabo batatu, muri abo bagabo hakaba harimo umwe wambaye ishati y'umweru nipantaro yumukara, undi wambaye umupira w'umutuku, undi wambaye ikote ry'umukara nipantaro y'umukara, abo bagabo hagati yabo hakaba hari ameza.

Hano ndahabona inyubako ahantu mw'imbere muri harimo parafo itara zo muri fomu ya rasaro, n'undi muntu wicaye muri ofisi, imbere yanditseho welikamu.

Ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ubwishingizi. Ibyo biro bikaba biherereye i nyamirambo, bikaba biri mu nyubako ifite inzugi ziteye irange ry'icyatsi.

Inyubako ya banki nkuru ya Kigali, aho barimo barerekana icyapa cyanditseho icyuma bakoresha mu kubikuza no kubitsa amafaranga ku buryo bworoshye.

Umuryango bininjiriramo bagana ahatangirwa ubufasha, aho hejuru yuwo muryango hari amagambo aranga izina ry'icyo kigo aho ari ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, muri ibyo biro hakaba harimo intebe zizengurutsa, izo ntebe zifite ibara ry'ubururu, hakaba hateyemo amarangi y'umweru, hakaba harimo n'amatara ashinzwe kubonesha.

Inyubako y'ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ubwishingizi, imbere y'iyo nyubako hakaba hari icyapa kimenyesha, icyo cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu miryango y'ibyo biro ikaba ifite irange ry'ubururu. hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ryiumukara ubuso bw'umweru.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi m'umuryango w'ibyo biro hakaba harimo abantu bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'umuhondo ku ibyo biri hakaba hari ibyapa byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ubuso bw'ubururu.

Umuntu uri kwamamaza banki nkuru ya kigali aho ayo magambo ari kuvuga uburyo ushobora kubona inguzanyo akaba umuntu yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yambaye ipantaro y'umukara, n'ikote ry'umukara, akaba yambaye n'amadarubindi, n'imbere y'ikote akaba yambariyemo ishati y'umweru.

Urupapuro rwerekana amakuru ugomba kuzuzamo kugira ngo uhabwe inguzanyo, amwe muri ayo makuru hari amakuru y'umuntu ku giti cye, hari amakuru ajyanye n'akazi n'amakuru ajyanye n'inguzanyo.

Ugomba kumenya amategeko n'amabwiriza mbere y'uko usinyira inguzanyo, aho hari abantu babiri umwe yicaye ku meza ufite mudasobwa imbere ye, undi akaba ari guhabwa ubufasha aho bombi bambaye imipira yo mu ibara ry'ubururu.

Abagore bibumbiye mu itsinda, aho bakusanya amafaranga bakabasha guhanahana inguzanyo. Abo bagore hakaba harimo umugabo, hagati yabo hakaba hari isanduku irimo amafaranga.

Abantu babiri, umukobwa n'umusore, umusore akaba yambaye ikote ry'ubururu, umu umukobwa akaba yambaye amayerena akaba yambaye n'ikanzu y'umweru.

Umugore uteze igitambaro cy'umukara wambaye amaherena akaba arimo aragura aho, aho ari kugurira harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya, mu akaba ari kwakira ibyo aguze.

Isoko ry'ibiribwa hakaba harimo imboga n'imbuto aho harimo inyanya, miteja hakaba harimo abagore barimo gucuruza bagiye batandukanye n'abakobwa.

Isoko ry'imboga n'imbuto, aho muri iryo soko harimo umugore wambaye ikote ry'umukara, muri izo mbuto hakaba harimo imineke, amaronji n'inanasi.

Isoko ry'ibiribwa aho harimo abantu baje kugura hakaba harimo n'abarimo gucuruza, hakaba harimo imboga n'imbuto, aho mu mbuto higanjemo imineke, inanasi, amaronji ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa aho muri iryo soko harimo abadamu barimo baracuruza imbuto muri ibyo biribwa harimo n'imbuto hakaba harimo ibiribwa nk'ibitoki ,ibirayi hakaba harimo n'imbuto nk'imineke n'imyembe .

Isoko ry'imboga aho muri izo mboga harimo ibitunguru, karoti n'izindi mboga z'ubwoko bugiye butandukanye.

Iduka ricuruza imyambaro n' ibikapu, muri iryo duka hakaba hicayemo abagore babiri. Abo bagore bakaba bicaye mu ntebe zikoze mu biti, muri abo bagore hakaba hari uwambaye igitenge n'ishati by'ubururu.

Isoko ry'ibiribwa aho muri ibyo biribwa harimo imyumbati, ibijumba hakaba harimo umugore urimo aratandika imyumbati akaba ari n'umugabo wicaye ku gikoresho gikoze mumbaho.

Isoko ririmo abacuruzi bagiye batandukanye; iryo soko rikaba ririmo amatara acanye; aho umucuruzi umwe muri bo yicaye ku ntebe ikoze mu biti; uwo mucuruzi akaba yambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara.

Inzu y'umukozi w'ikigo cy'itumanaho cyitwa Emutiyeni, iyo nzu ikaba iteye irangi ry'umuhondo mo imbere hakaba harimo umukozi w'icyo kigo.

Abantu barimo barasaba serivisi ku bakozi bagiye batandukanye aho umwe yicaye mu kazu k'ikigo cy'itumanaho cyitwa eyateri, undi akaba ari guhabwa serivisi mu kazu k'ikigo cy'itumanaho kitwa emutiyeni ako kazu ka eyateri kakaba gafite amabara y'umutuku.

Umugabo uri guhabwa ubufasha n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN aho uwo mukozi yicaye mu kazu kari mu marangi y'umuhondo ariho ibirango by'icyo kigo cy'itumanaho .

Umukozi w'ikigo k'itumanaho mu Rwanda, umukozi akaba arimo araha ubifasha mu bantu barimo guhabwa ubufasha hakaba harimo umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara, uwo mukozi akaba yicaye mu kazu gasize irange ry'umuhondo.

Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho cyitwa emutiyeni gikorera; hakaba harimo umusaza uteruye icyapa cyerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga; bikaba biri mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu urimo urahuza telefone n'ikoranabuhanga kugira ngo abashe kwishyura akoreshejwe ikoranabuhanga binyuze mu kigo cy'itumanaho cya emutiyene.

Abagore batatu bambaye imipira, aho umwe yambaye umupira w'ubururu abandi babiri bakaba bambaye imipira y'umuhondo, ariko umwe muri bo akaba yambaye ingofero n'amadarubindi.

Abagabo babiri hagati yabo hakaba harimo ikinyabiziga cyo m'ubwoko bw'ipikipiki, aho icyo kinyabiziga gihambiriyeho igikarito cyanditseho vuba vuba. Abo bantu nabo bakaba bambaye amashati y'icyatsi

Ikinyabiziga cy'ubwoko bwi ipikipiki aho gifite ikoranabuhanga ryo kubara ibirometero cyagiye kukinyabiziga kikaba gifite umuntu ukiyoboye umuyobozi wacyo akaba ari ikinyabiziga kirimo kikagenda mu muhanda.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki, inyuma hakaba hahambiyeho ikarito iri mu ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo, vuba vuba, ayo magambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru.

Umuyobozi utwaye ipikipiki, kuri iyo pikipiki akaba ahetseho igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi, uwo muyobozi w'ipikipiki akaba yambaye ingofero y'icyatsi.

Imodoka yo mu ibara ry'umutuku, inyuma ku iyo modoka hakaba hari ibirango byerekana ko iyo modoka ifite isoko rigurishiriza ku ikoranabuhanga.

Imodoka ziparitse imbere y'uruganda, izo modoka zikaba zifite ibara ry'umweru zikaba ziri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo.

Izi ngizi ni moto enye zihetse amabogisi inyuma, kuri buri bogisi handitseho jomiyo fudu. Ni amabogisi afite irangi rya oranje. Eee abantu bambaye kasike z'umukara uretse umwe wambaye kasike y'umutuku.

Amagambo agaragara mu rurimi rw'icyongereza aho asobanura ibiruhuko byiza aho harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiza, harimo iby'ubuvuzi, ibyo mu gikoni n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki gifite ibara ry'umutuku n'umusego w'umukara, ikinyabiziga kikaba gihambiyeho ikarito iri mu ibara ry'ubururu, iyo karita ikaba yanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'umuhondo, andi ari mu ibara ry'umweru.

Umuntu utwaye igare akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ishati y'ibara ry'icyatsi kuri iryo gare akaba atwayeho ikarito y'ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo vuba vuba yanditse mu ibara ry'umweru.

Umumotari uri ku ipikipiki ifite amabara y’umutuku, umumotari akaba yambaye ingofero y’ umutuku inyuma, akaba ahetse iyi sanduku. Umumotari akaba afite ikinyabiziga nimero ikiranga, ikaba yanditse mu mabara y’umutuku.

Umuhanda urimo abamotari benshi aho abo bamotari bambaye amakoti y'umutuku n'ingofero z'umutuku, abamotari imbere yabo hakaba hari ikinyabiziga ki cyo mu bwoko bw'imodoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Ikirango cyamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubuvuzi, aho harimo amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza avuga ko iyo uguze ibintu birengeje ibihumbi bibiri magana atanu bagutwaza baka kugezareza aho utuye.

Icyumba cy'aho bogera; iki cyumba kikaba kirimo robine, kikaba giteretsemo n'ibasi yokongeramo, irimo ibara ry'ubururu mu rukuta rw'icyo cyumba hakaba hometsemo amakararo.

Inyubako iherereye i Kigali inyubako ikaba isakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite n'ibaraza imbere. Iyi nyubako ikaba yagurishwa miriyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'urwanda.

Icyumba cyo kuryamamo kiri mu nyubako iherereye i Kigali, kikaba gikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Amarembo y'inyubako aho ayo marembo arimo urugi rurimo ibyuma biteye irangi ry'umukara, iyo nzu ikaba iherereye Kigali mu Rwanda i Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni mirongo cyenda n'eshanu.

Ibaraza ry'inyubako, aho iyo nyubako ifite igipangu, ikaba ifite n'ubusitani, iryo baraza rikaba rifite fondasiyo iteretseho agakoresho bifashisha bateramo indabyo.

Abagabo babiri umwe akaba ari umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, undi mugabo uri iruhande ye akaba yambaye ishati y'umukara, akaba afite n'agapfukamunwa.

Icyumba cy'uruganiriro muri icyo cyumba hakaba harimo intebe z'imifariso , imifariso ikaba ifite ibiyirinda biri mu ibara ry'ubururu hakaba hateretse n'ameza imbere y'izo ntebe .

Uganiriro muri icyo cyumba hakaba harimo insakazamashusho hakaba harimo intego z'imifariso n'amezaza izo ntebe z'imifariso zikaba zirimo imisego iri mu ibara ry'umweru umukara n'ubururu.

Umuntu uhagaze mu cyumba cy'inyubako aho imbere ye hari ameza, akaba afite ikirahure hejuru, umuntu akaba yambaye amadarubindi, icyo cyumba kikaba kirimo itara ribonesha.

Inyubako ifite ibaraza imbere aho ku nkingi z'iga baraza hateye irangi ry'umweru, iyo nyubako ikaba igurishwa, ikaba iherereye i Kigali kimironko, aho igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu ariko ayo mafaranga akaba yaganirwaho.

Inyubako igeretse inshuro imwe; iyi nyubako ikaba ifite ubusitani imbere yayo, ikaba igurishwa amadorari magana abiri; ikaba iherereye i kigali, iyi nyubako ikaba isize irangi ry'umweru

Inzu isakaje amabati y'umutuku, iyo nzu ikaba ifite igipangu giteye irange, icyo gipangu kikaba gifite amadirishya akoze mu byuma asize irangi ry'umukara, iyo nzu ikaba iherereye Kabeza ikaba ikodeshwa.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe iyo nyubako ikaba isakaje amabati y'umutuku, ikaba igurishwa amafaranga y'u rwanda miliyoni ijana.

Inyubako ikodeshwa, iyo nyubako ikaba iherereye i Kigali Kanombe ikaba igizwe n'ibyumba bibiri na dushe ebyiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'amafaranga y'u rwanda ku kwezi.

Inzu igaragara ko ikodeshwa, Kigali, i Kanombe, ikaba ifite ibyumba bine na dushe eshatu, akaba ari inzu ifite amakaro inyuma.

Inyubako igeretse inshuro imwe aho ku ibaraza ry'iyo nyubako hari umugabo wambaye amadarubindi, akaba yambaye n'ikote ry'umukara, mo imbere akaba yambariyemo ishati y'umweru.

Inzu mu imbere harimo itara ririmo kwaka, iyi nzu ikaba iherereye Kigali, Kimironko. Iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bitatu na dushe ebyiri.

Umuntu urimo aracuruza aho mu byo ari gucuruza harimo inkweto zifunguye hakaba harimo amakanzu n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye uwo muntu akaba ari mo mbere hakaba n'undi uri inyuma.

Igorofa ririmo isoko, muri iryo soko hakaba harimo ibyapa byerekana aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye. Iryo gorofa rikaba rifite ibyuma bishinzwe kurinda abagenzi kuba bahanuka mo imbere.

Abantu bari mu isoko, aho muri iryo soko harimo inkweto, ibikapu, muri abo bantu hakaba harimo uwambaye ingofero y'abasiramu, uwo muntu wambaye ingofero y'abasiramu akaba yambaye hejuru umwambaro uri mu ibara ry'ubururu.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, muri iryo soko hakaba harimo imikandara, inkweto, n'ibikapu by'abagore, hakaba harimo abantu babiri b'abagore baje kugura.

Isoko ry'imboga n'imbuto muri iryo soko hakaba harimo imbuto zitandukanye muri izo mbuto hakaba harimo nk'avoka, imyembe, imineke ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Icyumba cy'inyubako kirimo ibicuruzwa, muri icyo cyumba hakaba harimo amatara arimo aratanga urumuri muri icyo cyumba, ibyo bicuruzwa hakaba harimo ibyo kunywa.

Umuntu urimo aragura ibintu bitandukanye aho ari kwifashisha akantu kabugenewe gushimo ibintu yahashye karimo ibara ry'umukara uwo muntu akambaye umupira w'umutuku n n'ipantaro y'umukara.

Iduka ricuruza ibikapu by'abadamu, muri iryo duka hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, mu iduka rikaba ririmo umugabo wambaye ishati, n'umugore wambaye ishati y'umutuku.

Igorofa rirerire rifite uruzitiro imbere y'iryo gorofa hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Iryo gorofa akaba ariry'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize n'ubwishingizi mu rwanda.

Ikigo cy'amashuri aho hahuriye abantu benshi, aho aho hantu barimo baramamaza ejo heza. Ejo heza ikaba ikorera mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize n'ubwishingizi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyo karita ikaba iriho ifoto ngufi ya nyirayo aho nyirayo afite amazina ya bizimungu jean damascene ku ruhande rwiyo karita hakaba hariho n'irangamuntu ye .

Umuntu waje kwivuza akaba arimo arahabwa ubufasha na muganga, aho arimo aramuhereza ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iri mu ibara ry'umuhondo.

Umurwayi ufite ifishi n'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza akaba ari kwa muganga, ifishi ikaba ifite ibara ry'umuhondo, ikarita y'ubwisunhane mu kwivuza ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Aho abantu benshi bahuriye bakaba barimo kumva imbwirwaruhame, aho hantu hakaba hari ikirango cyerekana ko barimo baramamaza ejo heza, abo bantu bakaba barimo abagore, abagabo, hakurya yabo abantu hakaba hari amazu.

Umugabo uri kuvugira ku nsakazamajwi aho inyuma ye hari icyapa kiriho umugore, hakaba handitseho ejo heza uyu mugabo akaba yambaye ikote ry'umukara.

Amakarita y'ubwisungane mu kwivuza atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize n'u ubwishingizi mu Rwanda .

Ikiganza gifashe ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza. Ikarita ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba iriho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abakozi b'ikigo cy'ubwishingizi n'ubwiteganyirize mu Rwanda bakaba ari abagabo n'abagore aho abagabo harimo abambaye amakote, hakaba harimo n'abagore bambaye amakanzu.

Icyumba kirimo abantu bahagaze, abo bantu bakaba bafashe mu ntoki amakarita y'ubwisungane mu kwivuza. Aho ayo makarita agiye yometseho amafoto magufi ya buri muntu, ayo makarita akaba ari mu ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza ibyo kunywa, muri iryo duka hakaba hashashemo amakaro, kandi muri ibyo byo kunywa hakaba harimo ibiri mu macupa n'ibiri mu micebe.

Aho babika imboga n'imbuto hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'icyatsi ipantalo y'koboyi, akaba arimo aravanamo bimwe muri byo, hakaba harimo imbuto zitandukanye n'imboga zitandukanye nka karoti.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye, iryo duka rikaba ririmo amatara ari kwaka. Muri iryo duka hasi hakaba hashashe amakaro y'umweru.

Umukobwa uje mu isoko ry'imboga aho afite igikoresho arimo kugenda ashyiramo ibyo yahashye akaba yambaye ingofero n'ikabutura, n'inkweto z'umweru.